Umubyeyi wambaye agapfukamunwa ndetse n'agapira k'ubururu k'amaboko magufi, urimo koza intoki z'umwana muto wambaye impuzankano ya kaki, akaba yari avuye ku ishuri ubwo yarimo kozwa intoki hakoreshejwe amazi meza n'isabune mu kumufasha kumukuraho imyanda.

Umuganga wambaye agashati ko kwa muganga k'umweru k'amaboko magufi, akaba yambaye agapfukamunwa, aho yari arimo gutera urushinge umugore wicaye ku ntebe wambaye agapfukamunwa, aho yari arimo kumukingira icyorezo cya virusi ya korona virusi yari yateye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri.

Abana biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano y'ishuri aho bafashe ibikombe by'amazi mu kiganza ndetse n'uburoso bw'amenyo burimo umuti w'amenyo barimo koza amenyo, bikaba bibafasha kwirinda indwara zitandukanye zifata mu kanwa bityo bakagira ubuzima bwiza.

Umuganga w'amenyo wambaye imyenda yabugenewe, wicaye ku ntebe y'umukara, akaba arimo gusuzuma amenyo y'umwana muto uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, akaba arimo gukoresha udukoresho tubiri twifashishwa mu gusuzuma indwara z'amenyo zitandukanye.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru akaba yafashe uburoso bw'amenyo aho yashyize mu kanwa arimo koza amenyo yireba mu kirahure, ibi byo koza amenyoba ikaba ari inta itangwa n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu kanwa abandi zivuga ko koza neza amenyo buri munsi ari ikintu cyiza cyane kiyafasha kuyarinda indwara zitandukanye.

Umukecuru ufite imisatsi irimo imvi akaba afasha mu kiganza udukoresho twabugenei twifashishwa mu myitozo ngororamubiri aho abigirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima zimubwira ko gukoresha gukora imyitozo ngororamu biridufasha kunanura imikaya bityo akagira ubuzima bwiza.

Umusaza n'umukecuru bicaranye, imbere yabo hari ameza ariho udukoresho twabugenewe bifashisha mu gukina imikino ibafasha kuruhuka mu mutwe. Bimwe mu byo bagirwamo inama n'inzobere mu by'ubuzima zibabwira ko gukina iyi mikino bibafasha gutekereza neza bakagira ubuzima bwiza.

Manki pogisi vayirasi tesite, tukaba ari udukoresho two kwa muganga, twifashishwa mu gupima ubushita bw'inkende, kimwe mu cyorezo cyadutse cyateye isi mu myaka yashize, tukaba twarakoreshwaga no kwa muganga mu gupima abantu batandukanye.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru y'amabokoko maremare ndetse n'udupfukamunwa bo' bari bahagaze imbere y'imashini yo mu bitaro yifashishwa mu gusuzuma indwara zitandukanye zifata mu mubiri w'imbere aho aba baganga bavuga ko izi mashini ari ingenzi cyane kuko zibafasha mu gutanga serivisi z'ubuvuzi zihuse.

Inyubako yubakishijwe udutafari duhiye ikaba isakara amabati y'ubururu ikaba ikorerwamo n'abaganga b'amaso a aho itanga serivisi z'ubuvuzi bw'amaso ikaba iri mu bitaro bya gihundwe aho hatangirwa serivisi z'ubuzima zitandukanye zo ku kuvura.

Policlinique de ratoire akaba ari ibitaro bikorera mu nyubako yubakishijwe utubari duhiye in nyubako ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye nko gusuzuma kuvura ndetse no gutanga imiti ikaba ifite imbere parikingi iparitswemo ibinyabiziga bitandukanye.

Inyubako yabugenewe ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ikaba irimo amagare yifashishwa muri siporo ndetse, n'ibikoresho byabugenewe bifasha abantu kwiruka, hakaba hari na tapi abantu baramburiramo ingingo, bakora imyitozo ngororamubiri.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe kwa muganga bahagaze imbere y'inzu y'ababyeyi akaba ari inzu ibyarizwamo abagore baje kubyarira kwa muganga, aba baganga bakaba aribo bakora izi serivisi kwa muganga muri iyi nyubako.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe ya muganga ndetse n'intebe yabugenewe yicarwaho n'umurwayi urimo gusuzumwa. Aho iki cyumba gisuzumirwamo indwara zitandukanye zifata mu mubiri mu imbere, bigafasha abaganga kubona inrwayi indwara abarwayi barwaye.

Inzu izize amarangi y'umweru ndetse nay'umukara ikaba isakajwe n'amabati y'umutuku imbere hakaba hateye amabendera abiri harimo iry'u rwanda inyubako ikaba ifite icyapa cya rwanda ciridireni aho itangirwamo serivisi zo kwita ku burenganzira bw'abana.

Ibikoresho byabugenewe byo kwa muganga biri iruhande rw'intebe zitandukanye bikaba bikoreshwa mu gusuzuma indwara zitandukanye zo gufata mu mubiri w'imbere aho abaganga b'inzobere mu by'ubuzima bavuga ko izi mashini ari ingenzi cyane kuko zibafasha mu kazi ka buri munsi.

Ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye harimo uturindantokimade na bande ndetse n'imiti igabanya uburibwe bitetse ku meza hamwe n'ibihanagurwa ntibisebe ibi bikoresho bikaba byifashishwa n'abaganga bavura abakinnyi ndetse n'abandi bakora imyitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye isengeri y'icyatsi, akaba afite icupa ry'amazi mu biganza, aharimo kwisukaho amazi ubwo yari avuye mu myitozo ngororamubiri bimwe mu nama zigirwa n'abajyanama mu by'ubuzima bavuga ko gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umubiri kugira ubudahangarwa

ibimera byabugenewe biri muri pipiniyeri irererwamo ibiti, ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, aho bahinga ibimera byifashishwa mu kuvamo imiti ivura indwara z'ubwoko butandukanye, aho ibimera bifatwa bigasarurwa bigasekurwa, umushongi wabyo ukifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.